Ubutumwa bugaragaza ko konti runaka yakiriye amafaranga ko byemejwe.

Ubucuruzi bukorwa hagati y'Akagera motozi n'abaturage, aho bagura imodoka bagahererekanya amafaranga, undi akamuhereza imodoka.

Serivisi za banki zegerejwe abaturage kugira ngo bakemure ibibazo, mu kubitsa no kubikuza, aho umuntu agira ikibazo akajya gusobanuza akagenda gikemutse.

Ubucuruzi bukorerwa ku muhanda cyangwa ahandi hantu, aho baba bacuruza ibicuruzwa bijyanye n'amata n'ibindi bikomoka kuri.

Aha ni ahantu banywera amata cyangwa se ibindi bintu byose ariko havuyemo inzoga, akaba ariho uwifuza wese kugura cyangwa kuza kuhanywera amata y'inshyushyu cyangwa cyangwa ikivuguto abasha kuhagera bakamwakira.

Serivise zitangwa zo kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye, aho umuturage aza bakamuvunjira, bitewe n'ayo yazanye, niba ari amadorari bakahereza abanyarwanda.

Aho kuba hizewe haba hafite umutekano, aho ujyamo ushaka kuruhuka cyangwa se kujya kubamo igihe runaka.

Isoko bagurishirizamo ibintu bijyanye na gakondo cyangwa se umuco wa kinyafurika, aho haba harimo uduseke, inkoni, amacumu n'ibindi bintu bijyanye n'ubwiza bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, aho abacuruzi bakorera ubucuruzi bwabo mwisoko, bakagurisha ibintu bigiye bitandukanye nk'amakara, imboga n'ibindi byokurya.

Isoko rigeretse ryifashishwa mu guhaha imyenda, imyambaro hari n'amaserivisi ya banki nawe wabasha kubikaza amafaranga.

Umuturage uri guhabwa serivisi zijyanye na momo peyi ndetse n'umufasha muri izo serivisi.

Inzu igurishwa miliyoni ijana na mirongo ine muri Kigali ikaba iherereye i Kanombe, uyikeneye ni ayo mafaranga igura miliyoni ijana mirongo ine.

Inzu igurishwa iherereye Kigali mu karere ka Kicukiro, harimo ibyumba bitatu n'ubwogero bubiri. Ni ibihumbi magana ane ku kwezi.

Inzu ziherereye Kimironko Zindiro zo gukodeshwa, harimo izarangiye n'izitararangira.